Ibiro bishinzwe ivunjisha ry'amafaranga ni iki cyapa rero kiratwereka uburyo amafaranga arangurwa ndetse n'uko agurishwa, akoreshwa mu Bwongereza, akoreshwa muri Amerika, akoreshwa mu Burayi ndetse no mu bihugu by'ibiyaga bigari amadolari ndetse n'andi mafaranga agenda akoreshwa kugira byerekwe abakiriya.

Agace gato mu bigize urubuga rukorerwaho ubucuruzi, aho bisaba umukiliya ko yinjizamo igicuruzwa ashaka, ndetse n'igihugu aherereyemo akakireba aho cyaba kibarizwa kugira ngo akigure cyangwa se akigurishe.

Imenyesha ry'urubuga rwitwa quick.rw, rukorerwaho gucuruza ndetse no kugurisha ndetse no gukodesha ibikoresho bitandukanye, amazu n'ibibanza ndetse n'ibindi nk'uko bigaragara.

Aho bahahira ibyo kurya n'ibikoresho byo mu rugo, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoreshwa umunsi ku munsi mu rugo ndetse no ku minsi mukuru; aho hagaragara ko buri kimwe cyose kiba gifite igiciro cyacyo ndetse harimo n'abantu baje guhaha.